Abana benshi bicaye n'abantu bakuru bavangavanze, hari umugabo uri imbere wambaye umupira ufite ibara rya oranje, arimo arasuhuzanya n'umwana mutoya wambaye ishati y'amaboko magufi, barimo barahana ikiganza bose bishimye baseka.

Ihuriro ry'abajyanama b'ubuzima benshi abagabo n'abagore bahuriye hamwe, barimo guhabwa amahugurwa atandukanye, bafite amakaye n'amakaramu barimo kwandikamo ibijyanye n'amahugurwa barimo gufata uyu munsi kugira ngo bazabashe kuyashyira mu bikorwa ubwo bazaba basubiye iwabo aho bakorera akazi k'ubujyanama bw'ubuzima.

Umwana w'umukobwa mutoya, asutse imisatsi ye ihambiriye inyuma. Yambaye imyenda idoze mu gitenge, ari ku ivomo; arimo aravoma amazi agwa mu ibasi. Ariko uko ayavoma, arimo arayakarabamo intoki, na we ubwe arayanduza; ntago ari amazi meza yo kunywa, birasaba ko abanza kuyasukura. Ariko anavomye, agomba kuvoma atayakoramo, kugira ngo umwanda urimo utiyongere.

Abagore batatu bari ku ivomo rusange, umwe arimo aravoma abandi babiri barimo kuzunguza icyuma kiba inyuma ya robine, gishobora gufasha kuzamura amazi ngo azamuke mu itiyo aze muri robine abashe kumanuka, ajye mu kivomesho barimo kuvomerera, urimo kuvoma yafashe ikidobo kinini agiterekamo indobo ye ntoya kugira ngo amazi atameneka hasi.

Umuganga umwe w'umugabo uri hagati y'imbaga y'abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho umuntu umwe ku w'undi ni benshi rwose. Arimo kubabwira imbwirwaruhame akora n'ibimenyetso akoresheje amaboko ye, nabo baricaye baratuje baramukurikiye batuje.

Umuntu urimo kuvoma ku ivomo rusange. Ni ivomo rifite amarobine ane, arimo aravomera kuri rimwe kubera ko ari umwe. Hari n'ibindi bivomesho bihateretse barimo kwifashishwa mu kuvomerwa igihe ari bo uwarangije kuvomera icyo yashyizeho cy'umuhondo. Yifubitse umwenda w'imbeho.

Ku kigonderabuzima abantu bazindukiye kujya kwivuza abatoya n'abakuru. Hari umubyeyi waje kuvuza umwana we w'umukobwa. Umubyeyi yambaye agapfukamunwa ndetse n'agakote k'umukara n'ikanzu ndende. Umwana na we bahagaze imbere y'abaganga kugira ngo babanze bafate amakuru yo gukora ifishi kugira umwana abone ukobonana na muganga.

Abana barindwi b'abahungu, bambaye impuzankano y'ishuri. Bari kuri robine umwe arimo gutega ibiganza bye hamanuka amazi mu ivomo na we anywesha umunwa. Ntabwo ari byiza kuko ayo mazi ntabwo aba asukuye biba bisaba kubanza ukayateka imyanda irimo igapfa, ubundi utabikoze gutyo yateza indwara zitandukanye zirimo n'iz'impiswi.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara nishati y'amaboko magufi n'umukandara. Yaje kuyivoma azanye ikivomesho ke k'ijerekani kiri mu ibara ry'umuhondo. Asanze nta wundi muntu uriyo, arimo guseka yunamye afatishije amaboko ye yombi kuri yajerekani.

Ku ivomo rusange, abagore batatu bagiye kuvoma, umwe yafashe ikintu kinini gikoze mu ibumba aterekamo indobo ye, kugira ngo amazi nazajya amanuka ava mu ndobo, ameneka yo gupfa ubusa, ahubwo ameneke muri cya kintu gikoze mu ibumba, abandi babiri barimo barazamura icyuma gifasha robine gusunika amazi asohoka bayavoma.

Abana babiri b'abahungu bo mu cyaro barimo gukaraba. Umwe afite ibirika y'ubururu irimo amazi, arimo arasukira undi ufite isabune mu ntoki ndetse arimo arakabarabira mu ndobo akaraba amazi asukiwe na murumuna we. Inzu bari iruhande, ku rugi hanitseho igitenge.

Mu cyumba cy'inama hateraniyemo abantu benshi, bicaye bakoresheje ameza y'uruziga, buri meza ariho abantu bicaye bakurikiye ibirimo kuvugirwa imbere. Bafite buri wese amazi yo kunywa, amakayi yo kwandikamo ndetse n'amakaramu yo kwandikisha ibyo bari kumvira muri iyo nama.

Umwana urwaye, aryamye ku buriri, abaganga barimo kumwitaho, ararembye, aranegekaye ndetse arananutse cyane, umubyeyi umubyara yicaye ku buriri, arimo kureba uko abaganga bamwitaho, abaganga babiri umusore n'umugore barimo kumufata ibipimo, bamutera n'imiti ku kuboko.

Yicaye asutaraye, iruhande rw'ivomo arimo kuvomera ikivomesho k'ikijerekani y'umuhondo iteretse mu mabase abiri agerekeranyije, arimo aratega amazi neza kugira ajyemo, ndetse n'abashije kumeneka ntagwe hasi kugira ngo atangirika, ahubwo ameneke muri ya mabase nayo aze gukoreshwa.

Abagore babiri bahuriye ku ivomo rusange, bamaze kuvoma amazi mu ndobo, umwe arimo gufasha mugenzi we kugira ngo azamure ya ndabo ayimushyire ku mutwe, iryo vumo rikikijwe n'ishyamba ry'ibiti ndetse n'inyubako imwe isakaje ibyatsi.

Inzu ihuriramo abantu baje gupimisha abana, abenshi baricaye abandi bake barahagaze, umugore umwe wambaye imyenda y'ibitenge acigatiye umwana we, afite n'igipande amupimishirizaho, amufatishirizaho inkingo, arahagaze aramufashe, barangije kumupima.

Umwana w'umuhungu uri ku ivomo rusange, afite ibivomesho bitatu by'umuntu byo mu bwoko bw'amajerekani, arimo aravomo imwe ya mbere yisekera, niyuzura arayikuraho avome n'izindi zose kugeza zujuje amazi.

Umwana w'umuhungu yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo, iruhande rwe hari undi mutoya wicaye ndetse n'umugore uhagaze hirya yabo, uwo mwana w'umuhungu arimo kuvoma ku ivomero, avomera mu kivomesho cye cy'umweru afashe kuri robine kugira amazi abashe kumanuka neza ajya mu kivomesho cye.

Abantu batanu b'igitsina gore, barimo umugore umwe wambaye ipantaro y'umukara ukikiye akana k'agahinja, bigaragara ko yakazanye kugafatisha inkingo zibanze, hari n'undi ufite ibikoresho bitandukanye arimo kubishyira ku murongo byagenewe kwifashisha ku mwana w'uruhinja.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umutuku n'agapira gafite amabara ya gisirikare, yunamye ku ivomero arimo aranywa amazi ayanywesheje ibiganza bye, asigaye akagwa mu ndobo arimo kuvomeramo. Ibi ntabwo ari byiza kuko bishobora gutuma umwanda uvuye ku mubiri we, ujya muri iyo ndobo ari mo kuvomeramo bigatera indwara zitandukanye z'umwanda.

Abana benshi bari ku ivomo rusange n'ibivomesho byinshi babisize ku murongo ndetse nabo bari ku murongo bitewe n'uko bagiye baza bazindutse, abazindutse bari imbere abatinze bari inyuma, umwe muri bo afite ikintu gicometse kuri robine aba azamuza anamanuza kugira ngo amazi abashe kuza amanuka ajye mu kivomesho.

Ihuriro ry'abaganga abagore, abagabo, abasore n'inkumi bashinzwe kurwanya ikwirakwiza ndetse no gukumira gutwita kw'abangavu, mu rubyiruko ndetse no kumenyesha umuryango nyarwanda muri rusange.

Ihuriro ry'abantu cumi na bane harimo abazungu babiri babakobwa bamwe muri bo bambaye imipira y'imyeru ubona ko ari impuzankano barimo gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo batazibagirwa ibihe bagiriye aha hantu mu nama ndetse no mu mahugurwa agambiriye kwita ku mubyeyi utwite n'umwana.

Umusaza ukuze barimo baramukingira urukingo rwa Covid cumi n'ikenda. Umuganga arimo aramutera urushinge yitonze na we yitonze kugira ngo arebe ko atazandura iki cyorezo, abandi baganga babari iruhande bari batunganya indi miti kugira ngo babashe nabo gukingira abandi basigaye.

Umugore uri ku ivomo rusange arimo kuvomera indobo y'umukara. Acigatiye umwana we mutoya wambaye amasogisi y'umweru n'ingofero, amufatiye mu gitenge. Arimo arayavoma yishimye kugira ngo ajye kuyakoresha mu mirimo yo mu rugo itandukanye.

Abagabo icyenda bateranye bicaye ku meza azengurutse, ndetse n'abandi bari ahagana hirya yabo bicaye ku yandi meza, barimo baraganira ku bintu bitandukanye, buri wese afite ikirahure cye cy'icyo kunywa, bamwe baranywa ji, abandi bakanywa amazi, bakurikiye umwe muri bo, ufite icyo arimo kubagezaho.

Abana babiri, umuhungu n'umukobwa bari ku ivomo rusange, umukobwa afite ikivomesho cy'ibara ry'umuhondo arimo kuvomera, umuhungu ari inyuma ahari icyuma bazamura bamanura kugira ngo gifashe amazi kumanuka, amanukire mu cya akivomesha maze urimo kuvoma abone amazi yo gutahana.

Ivomo rusange, umwana w'umuhungu mutoya yagiye kuvoma, arimo arafashwa gufungurirwa amazi n'umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano z'abanyeshuri. Iri vomo riri iruhande rw'inzira itambukamo abanyeshuri benshi bavuye ku ishuri ndetse n'abandi bagenzi bigendera hirya no hino.

Umurwayi urwaye urembye agaramye ku gatanda k'abarwayi, ari kumwe n'umurwaza we ndetse n'umuganga, bose uko ari batatu bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda.

Umwana mutoya w'umukobwa, barimo kumutera urushinge ku rutugu, umuganga afashe urushinge n'intoki ze, izindi ntoki zifashe ku rutugu rw'umwana kugira ngo atanyeganyega, atinya urushinge bigateza impanuka, umubyeyi we wamuzanye kwa muganga na we amufashe mu maboko, umwana yagize ubwoba bwinshi.

Umuganga uri imbere y'abantu benshi bari mu ihema rifite amabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda arimo kubabwira imbwirwaruhame afite indangururamajwi n'igitabo cy'umukara ndetse yambaye impuzankano y'umweru y'abaganga

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ubururu n'amashati y'imbere afite ibara rijya kuba ubururu bw'ikirere. Bari ku murongo, bahagaze neza ahantu mu ihema ry'umweru, barimo kwakira abashyitsi babagannye ndetse barimo no kubafata n'amafoto.

Umugore wambaye umwenda w'umukara afite agasakoshi ke gafite ibira rya movee mu gatuza , yambaye agapfukamunwa n'ingofero bari bamukingira urukingo rwa covid cumi n'icyenda. Umuganga arimo aramutera urushinge ku rutugu yambaye impuzankano y'abaganga bakingira cofide ndetse n'agapfukamunwa ,kugira ngo abashe kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ikwirakwira ryacyo.

Ihuriro ry'ababyeyi benshi, baje gukingiza abana. Aho abaganga basanze ababyeyi n'abana mu midugudu, bakaza kubakingira inkingo zitandukanye, zizafasha mu buzima bw'abana kutarwara ibyorezo, byibasira ubuzima bw'abantu.

Imbaga y'abantu benshi, bazindukiye mu kibuga kiri imbere y'inyubako ifite ibendera ry'igihugu imbere yacyo, hari n'imodoka imwe, hateye ihema ry'umweru abantu barimo kugenda bakabakiriramo, maze bakabaha iyo serivisi yabazinduye, kubera ubwinshi bwabo bamwe barahagaze, abandi barambiwe bicara hasi muri bya byatsi bya cya kibuga.

Abantu bicaye ku meza akoze uruziga, buri wese afite agakombe ke k'icyayi, harimo Umushinwa umwe, abandi ni Abirabura n'abagore babiri, barimo kuganira bishimye mu gihe cy'akaruhuko bari barimo gufata.

Benshi bahuriye ku ivomo rusange bahagaze iruhande rwaryo barindiriye ko umuntu avoma umweru umwe, umwana umwe arimo arazamura icyuma bazamura banamanura kugira ngo amazi abashe kumanuka muri robine agwe mu gikoresho bavomesha. Undi nawe ateretseho ikivomesho cye kugira ngo amazi abashe kujyamo yuzure.

Abaganga bicaye bagera muri bane abakobwa babiri n'abahungu babiri barimo gufata ibizamini abarwayi bafata amaraso yo mu rutoki barabikora bitonze bajomba urushinge ku rutoki rw'umurwayi bagahita bafata ayo maraso bakayapima kugirango ngo bamenye uburwayi umurwayi afite.

Ikirango cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana UNICEF. Kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere. Amazina UNICEF for every child byanditse mu ibara ry'umweru bivuga ko uwo muryango ureba umwana wese. Harimo n'akandi kamenyetso k'umubyeyi uteruye mwana mu mubumbe w'Isi.

Umwana w'umukobwa uri ku kigo cy'amashuri, hagati y'amashuri mu kibuga harimo ivomo rusange abana bashobora kwifashisha igihe bakeneye amazi yo gukoropa cyangwa se andi mazi yo kwifashisha, yambaye impuzankano y'ishuri ateza ibiganza bye kuri robine kugira ngo amazi ajojoberaho ayanywe, ntabwo ari byiza kunywa amazi nk'ayo kuko ntago aba asukuye shobora kumuteza uburwayi butandukanye.

Umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubuzima mu Rwanda, igaragaraho igipapuro cyanditseho uburyo bwo kwirinda ndetse no kurwanya cyane uburwayi bwa kanseri yo mu bwonko, mu gihugu cy'u Rwanda.

Umugore utwite ahetse n'undi mwana mu mugongo imisatsi ye irasutse, ari ku ivomo yazanye ibidomoro binini kubivomera, ariko arimo arabanza kubyoza ngo abikorere isuku abyogesha amazi n'isabune.

Abantu benshi bicaye mu ntebe ziri mu ihema ariko imitako itakishwa amabara agize ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Harimo abantu basanzwe ndetse n'abahagarariye polisi y'u Rwanda. Umugabo umwe ari imbere yabo arimo kubaha imbwirwaruhame.

Abantu benshi baturuka mu gace ka Nyabageni. Abagabo benshi n'abagore benshi, abagore benshi bambaye ibitambaro mu mutwe n'abagabo benshi bambaye ingofero mu mutwe. Bose bazinduwe no kuza kwibaruza ndetse banikingiza inkingo za Kovide cumi n'icyenda.

Ibiro by'abagore benshi bari imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirishya arimo ibirahure ndetse hejuru hasakaje amabati, bose bambaye imyenda idodesheje mu bitenge uretse umukobwa umwe wambaye ikanzu y'umutuku n'agakote k'umukara.

Ihuriro ry'abantu benshi abagabo n'abagore. Bicaye mu cyumba cy'inama gifite amarangi y'umuhondo. Bicaye ku ntebe zirambuye imwe igenda yicaraho abantu benshi benda kugera ku icumi. Bicaye bitonze bakurikiye ibyo barimo kubwirwa n'umuntu uri imbere. Ibipapuro byinshi bimanitse muri icyo cyumba ku gikuta cy'inzu.

Ihuriro ry'abagore benshi bamwe bari mu ntebe barimo barakoma amashyi banaririmba, abandi bari imbere barimo barabyina bamanitse amaboko bacinye akadiho ndetse baseka bishimye banezerewe.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara, ari kwivomero rusange, arimo gukaraba intoki ze, azigirire isuku, narangiza avomere ibivomesho bye, by'amabara y'ubururu biteretse iruhande rwe, atware amazi asukuye mu bidomoro bye yazanye.

Umwana uri ku ivomo rusange arimo kuvomera amazi mu gikombe arashaka guhita ayanywa kubera inyota afite, gusa ntago ari byiza kunywa amazi adatetse nk'ayo akivomwa kuko aba afite microbes nyinshi zishobora guteza indwara zitandukanye harimo n'iz'impiswi.

Umwana muto w'umukobwa uri ku ivomo yambaye agashati k'umutuku, yateze ibiganza bye ku mazi amanuka ava muri robine kugira ngo ayakarabe mu maso ndetse ayanywe, ntabwo ari byiza kunywa amazi akiva mu iriba, bisaba kuyateka kugira ngo ubwandu burimo bupfe kuko bushobora guteza indwara zitandukanye zirimo n'iz'impiswi.

Abantu bane bari ku ivomo rusange barimo abana babiri n'abakuze babiri, umwana muto afite ibivomesho bye bitoya arimo aravoma amazi ndetse umukobwa umwe arimo arazamura anamanura itiyo ifasha amazi kumanuka, ari inyuma ye ndetse n'umubyeyi w'umugore ari aho hafi kugira ngo nawe aze kuvoma.

Umugabo urimo guseka, yambaye umupira w'umuhondo, afite isuku mu isura ye ,ndetse mu menyo bikaba akarusho. Amenyo ye n'umweru, arakomeye ,afite isuku ,ndetse hagati y'iryinyo n'irindi nta mwanda ugiye urimo, bigaragara ko afite ubuzima bwiza.

Umugabo wegamye ku gikuta, arirabura, yambaye ishati y'amaboko magufi, ndende igera hejuru y'amavi. Yambaye ipantaro y'umukara, arimo arararama areba hejuru, yibaza ibibazo byinshi bitandukanye.

Umuryango Nyarwanda w'abanyeshuri b'abaforomo, bita ku buzima bwo mu mutwe, ikirango cyawo kirangwa n'umutwe, ugaragaza igice cy'ubwonko bukikijwe n'inyenyeri zirindwi, ni ibara ry'umweru ariko uwo mutwe ushushanyije mu ibara ry'ubururu, ubwonko bushushanyije mu ibara ry'umukara, inyenyeri mu ibara ry'umweru.

Ku nyubako z'ikigo Karayesi gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe baracyitabira kugirango bajyeho kubafasha. Ni inyubako nziza ifite amabara y'iroza ndetse n'ubururu bwijimye, ku ibaraza ryaho hateye indabo nyinshi nziza ndende n'ingufi zifasha gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Benshi bo mu mashuri abanza abahungu n'abakobwa bari mu kibuga, bamanitse amaboko baseka bishimye bambaye impuzankano z'ikigo bigaho, ndetse bari mu kibuga cy'amashuri ashinzemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore uvuye gukura ibijumba afite isuka ye mu ntoki yikorera igitebo kirimo ibijumba hejuru yatwikirije imigozi yabyo uko yabikuraga yabishyiraga mu gitebo maze hejuru agashyiraho imigozi kugira ngo ajye kuyiha amatungo cyangwa se yongere ayitere ahandi, ari iruhande rw'inzu y'amategura ishaje.

Abantu benshi bicaye batandukanye mu cyumba, harimo abagore bagiye ari banini uw’imbere afite ikaramu, arimo kwandika, yambaye umwenda w’umweru ndetse n’ab’inyuma ye bose bambaye amakarita mu gatuza, yerekana umurimo bakora.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'icyumba k'inama, undi mugore umwe ari imbere, arimo kubabwira ibijyanye n'ibyo barimo guhugurwaho, imbere hariyo ekara nini ndetse n'iyindi bifashisha mu kubona ibyo arimo kubabwira muri icyo kiganiro arimo kubaha.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, bamuziritse amaguru, yicaye ahantu mu nzu isa nabi cyane kandi ishaje. Yicaye hejuru y'imyenda ishaje, akenyeye igitenge, yambaye n'umupira w'amaboko magufi. Arihebye, urabona ko adafite icyo gukora.

Umugore usutse imisatsi ye y'ubwoko bw'amamenshi, arunamye, arareba hasi, ibiganza bye bifashe umutwe. Biragaragara ko atameze neza, arimo kwibaza ibintu byinshi cyangwa se arimo araribwa n'umutwe ku buryo bukomeye.

Igice cyo hejuru cy'umugore ukuze w'umukecuru, yambaye urunigi mu ijosi rufite amabara atandukanye harimo: amabara y'umuhondo, ubururu n'ikigina, yambaye igitambaro kimupfuka mu mutwe gifite ibara ry'umweru, afite n'amaherena ku gutwi.

Inyubako z'ibitaro by'akarere ka Munini, ni inzu nziza zifite amarangi y'umweru kandi nshyashya. Ni nijoro mu birarahure haragaragara amatara acanye ndetse zifite ubusitani bwiza bukoroterijwe ibyuma.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye mu nzu mbwirwaruhame, irimo abantu batandukanye abagabo n'abagore, buri wese yicaye ku ntebe ye, hari umugore urimo hagati, wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'amaboko magufi k'umukara, arimo arabayobora ababwira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'icyabazinduye.

Umusore ufite uburwayi bwo mu mutwe yicaye hasi yambaye ubusa buri buri, ahinnye ukuguru kumwe, arambuye ukundi arimo arareba nabi ubona ko uhamusanze yakugirira nabi.

Ihuriro ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore, bicaye muri sare nini bose bahuriyemo buri wese yicaye ku ntebe ye bakurikiye imbere urimo kubabwira imbwirwaruhame yabateguriye, muri iyo hateguwemo n'amayekara ariko ntabwo arimo gukoreshwa.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe yambaye imyenda mibi isa nabi, yambaye ibirenge nta nkweto zirimo kandi ibirenge bye byanduye cyane ndetse n'umusatsi we ntajya awogoshesha n'ubwanwa, yiziritse n'ibindi bitambaro ku maboko arimo arigaragura hasi akoza intoki n'amaguru hasi.

Umugabo mukuru w'umwirabura iminwa ye ifite ibara ry'umutuku, amaso ye yatuku cyane arimo kujojobamo amarira menshi, afite ibimwira mu mazuru, afite agahinda kenshi gatuma arira ababaye agaragaza umubabaro n'ishavu mu maso ye.

Ijisho ririmo kujojobamo amarira menshi ryatukuye ndetse na nyiraryo urabona ko ababaye, iminwa ibumbye ndetse n'uruhu rwe ubona ko rusa nabi, afite agahinda kenshi kamushengura umutima, gatuma bigaragarira ku maso ye.

Umuntu umwe w'umugore ufite ibibazo byinshi yifashe mu mutwe yunamye ndetse mugenzi we arimo aramuhumuriza cyane, amubwira amagambo y'ihumure. Amufashe ku maboko, amuteze amatwi n'umutima mwiza kugira ngo abone inama yo kumuha ave muri ako gahinda gakabije.

Abana benshi bicaye barimo baratangara, harimo abakobwa, harimo n'abahungu bose bicaye hamwe baciye bugufi, batangarira ibyo bari gukurikirana imbere yabo. Ni beza, barasa neza, imyenda bambaye irasukuye.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe yambaye imyenda y'ibishwangi n'inkweto zishaje, yisize ibintu by'imikara mu maso no ku maboko umubiri wose, afite igifuka mu kuboko kwe ndetse n'ikindi kintu kiboshye mu byatsi mu kwaha, ahagaze iruhande rw'imodoka.

Umugabo wicaye hasi ku butaka, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amabara y'umutuku. Bamuteretseho amafoto atandukanye. Amaboko ye ahambirije iminyururu, kuko agomba kuba yakoze icyaha, ashungerewe n'abantu benshi.

Umukecuru ushaje wo mu cyaro, atetse inkono ye y'ibiryo atetse ku mashyiga y'amabuye atatu n'isafuriya nini, arimo ararika yicaye ku gatebe kitwa agasongabugari, iruhande rwe hari ibikombe bibiri n'umufuniko wa yasafuriya arimo kwarikiramo, iruhande rwe hari inzu ye y'amatafari ahiye.

Umusaza ushaje wambaye umukenyerero wa kinyarwanda, afite icumu, yambaye n'ingofero mu mutwe, arimo araseka, afite ibihanga mu menyo. Arimo arabyina nk'intore ya kinyarwanda, anezerewe, acinya akadiho.

Ihuriro ry'abantu benshi ririmo n'abana batoya. Barishimye bafite ishema ry'igihugu cyabo, bazamuye amaboko yabo buri wese afitemo ibendera ryubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Baranezerewe ndetse baragaragaza umunezero mu maso yabo.

Abana batoya benshi bahuriye ahantu hamwe baricaye abenshi bambaye imyenda isa y'udupira two hejuru dufite ibara ry'icyatsi, barimo baraseka abenshi muri bo bogosha imisatsi kandi baranezerewe cyane.

Umugore wambaye ingofero y'umukara, afite agatambaro mu ntoki arimo kwihanaguza amarira, arimo arihanagura afite imbaraga nyinshi n'agahinda kenshi ayakamurira muri ka gatambaro afite.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, barimo gufata ifoto y'urwibutso, abenshi bahagaze, abandi babicaye imbere. Mu madirishya y'inzu bateraniyemo harimo ikirango cy'umuryango w'abibumbye wita ku bana UNICEF ndetse hamanitsemo n'ifoto y'umuntu w'umugabo.

Umutwe w'umugore, urimo kwivuza amenyo bitewe n'uko afite iryinyo rimwe ryahengamye ashaka kurambuza. Ikiganza cy'umuganga, kirimo gupima iryinyo, rishobora kuba ryasimbura rimwe ry'umurwayi rihengamye.

Umuganga arimo kwita ku murwayi ufite indwara zo mu kanwa, afite agakoresho akoresha areba mu kanwa yasamura umurwayi cyane akamukoza mu kanwa, akabasha kumusuzuma noneho agakurikirana uburwayi bwe kuko aba yarangije kububona neza.

Umugabo urimo gukorera isuku amenyo ye, afite akadodo arimo arakuza imyanda igenda isesera hagati y'iryinyo n'irindi arikuzamo akadodo kugira ngo ivemo, iyo iyo myanda itinze mu menyo iteza amenyo uburwayi no kwangirika bitandukanye bigakuzamo ubumuga bw'amenyo.

Umugabo urimo gusukura amenyo ye akoresheje akadodo, aranyuza akadodo hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo akuremo imyanda igenda ikibikamo kugira ngo izikusanye maze imutere kwangirika kw'iryinyo bivamo uburwayi bukomeye.

Ku mugabo wambaye ishati y'ikoboyi ifunguye amapesu, imbere harimo umupira wijimye, arimo araseka afite amenyo meza, akomeye, y'urwererane, atarimo umwanda na mukeye, afite mu maso harimo isuku, umusatsi ya wogosha neza, kandi ubwanwa bwe buraconze.

Umugabo wambaye umupira w'umukara arimo araseka afite ubwanwa, afite mu maso he inzobe ikeye, afite amenyo y'urwererane akomeye, afite isuku ihagije.

Umuganga w'umusore yicaye mu cyumba avuriramo abarwayi, aricaye aratuje ku gatebe yicaraho arimo gusuzuma umurwayi, iruhande rwe hari agatanda umurwayi aba aryamyeho ndetse n'urukarabiro hirya bakarabamo intoki igihe arangije gusuzuma umurwayi.

Amenyo y'umuntu w'umugore, afite isuku nyinshi, intoki ebyiri z'uwo mugore zirimo ziratunga kuri ayo menyo zerekana uburyo amenyo ye afite isuku ihagije, arasa neza, arasukuye, yaba ayo hasi n'ayo hejuru nta n'imyanda igiye iri hagati y'amenyo ye.

Umuntu w'umugabo, ari ku gatebe kabugenewe, yaje kwivuza amenyo. Arimo arakoza urutoki rwe mu menyo ye yereka muganga aho afite ikibazo, muganga nawe yambaye udupfudantoki ndetse afite agakoresho kabugenewe mu gupima amenyo afite uburwayi kugira ayavure.

Umutwe w'umugabo wicaye ku ntebe yegamirwa yo kwa muganga. Arimo araseka afite amenyo meza y'urwererane, hari ukuboko k'umuganga wambaye agapfukantoki ufite agakaramu gasongoye, arimo kukazana yenda kugakoza ku ijosi rya wa mugabo.

Umugabo uri mu bwogero, yambaye umwenda we w'umukara yambara amaze koga cyangwa mbere yo koga yifubitse, arimo koza amenyo ye yireba mu ndorerwamo iri mu bwogero bwe kugira ngo abashe gutunganya amenyo ye ho kugira imyanda asigamo igihe arimo kuyatunganya.

Umukobwa urimo koza amenyo ye akoresheje akadodo kaba gashinze mu gakoresho ka plastique kabugenewe. Aroza iryinyo ku rindi akozamo ka kadodo imyanda yafashe hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo amenyo ye asigara atekanye afite isuku ihagije kuko umwanda w'amenyo uteza kwangirika kw'amenyo.

Umugabo wagiye gukoresha isuku y'amenyo ye, banamuvura indwara zitandukanye yaba afite, arimo arayerekana abumbuye iminwa kugira muganga yitegereze, abone uko amukorera isuku anite ku bishobora kuyateza uburwayi butandukanye, umuganga afite mu kiganza ke udukoresho dutandukanye yifashisha.

Umugabo urimo guseka cyane. Yambaye umupira w'umweru, afite amenyo y'urwererane akomeye, nta n'umwanda na muke ushobora kubonamo, n'isura yo mu maso irakeye cyane, afite isuku yogosheshe ubwanwa n'umusatsi ku mutwe urogoshe, ameze neza.

Umukecuru arimo guhabwa impano y'inzitiramubu, iteye umuti kwa muganga kugira ngo imufashe kwirinda Marariya ndetse abashe no kuzasobanurira abandi uburyo birinda Marariya bakoresheje iriya nzitiramubu ahawe nk'impano.

Abagore umunani bakuze bari kumurongo, uri imbere yabo yambaye ikanzu, ariko abandi hafi ya bose bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru, harimo na babiri bambaye ibitambaro ndetse umwe wambaye ingofero bari kumurongo bishimye, bafite icyerekezo kimwe.

Ukuze arimo akora imyitozo ngororamubiri, imisatsi ye yose yahindutse imvi, ashinze inkokora hasi afunze ibipfunsi, yarambuye amaguru, igihimba yakigije hejuru kugira ngo abashe kurambura neza umugongo, agatuza, amaguru, ijosi n'amaboko.

Umusaza n'umukecuru bicaye batuje bari muri saro barimo kunywa imiti, umukecuru afite igipapuro kiriho amabwiriza y'iyo miti, umusaza nawe afite ibinini mu ntoki arimo aritegura kubinywa kugira ngo uburwayi bwe bubashe kugenda bugabanurwa n'iyo miti, afite n'ikirahuri cy'amazi yo kunywesha iyo mitwe.

Ababyeyi bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye amapantaro y'abo y'umukara arimo akabara k'umweru n'amakoti yo kwifubika ari mu mabara y'umweru, barimo baraseka banezerewe, umwe afite icupa mu ntoki ry'amazi yo kunywa afite n'umupira w'imbeho yambaye mu ijosi.

Umukino w'amakarita urimo gukinwa n'abantu batatu. Harimo umukecuru umwe ushaje ufite imisatsi y'imvi n'umukobwa ukiri muto ndetse n'undi mugabo. Barimo barakina bishimye, baruhuka mu mutwe kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'icyumvirizo mu ijosi afite imisatsi miremire, arimo arafasha umurwayi imyitozo ngororamubiri, umurwayi yambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu arishimye arimo arabikora anezerewe.

Abakecuru batatu bari kumwe, bose barifubitse cyane ndetse babiri muri bo bambaye ingofero, abandi babiri bambaye ibirahuri by'amaso, umwe ufite telefone arimo araberekeramo ibintu bose bibashishikaje, babikurikira barimo kumva ibisobanuro arimo kubahereza.

Umugore ukuze w'umukecuru yicaye ku gatapi ke k'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ahinnye ukuguru kumwe arambuye ukundi, arambura umugongo, akoza amaboko yombi arambuye kuri kwa kuguru kurambuye. Yambaye ipantaro y'umukara, agapira k'ubururu kagenewe gukora siporo n'inkweto zabugenewe ndetse imisatsi ye yose ni imvi.

Ihuriro ry'abantu benshi bashesheakanguhe, imbere hari umusaza n'umukecuru bambaye imyenda ya kinyarwanda, bambaye imikenyero n'imyitero, ndetse umusaza yambaye ingofero, umukecuru yambaye urunigi, n'agapira k'imbere gafite amabara y'ubururu.

Umusaza ushaje udashoboye kugira icyo yikorera, yicaye mu ibase barimo kumwoza. Amasabune avanze n'amazi arimo barayamanura mu mutwe bamwoza umubiri wose, kugira ngo bamutunganye aryame afite isuku ihagije.

Umusaza usheshe akanguhe, ari kumwe n'umuganga umukurikirana. Afite ibipapuro, bisobanura iby'uburwayi bwe. Muganga arimo arabimusomera, abimusobanurira, umurwayi na we abikurikiranye, kugira ngo asobanukirwe iby'uburwayi bwe, ndetse azabashe gufata imiti neza uko bikwiriye akire.

Umukecuru wo mu cyaro utetse arimo arakoresha amashyiga ari hanze iruhande rw'uruzitiro rw'urugo rwe rwubakishije ibiti by'imihate yicaye hasi atetse mu isafuriya y'umukara igeretseho iyindi hejuru ipfundikiye itetswemo.

Umukecuru n'umusaza bari kumeza barimo gufungura. Umwe arimo kugaburira undi, bita ku biryo bifite ingirakamaro cyane ku kumubiri wumuntu byiganjemo imboga zibara ry'icyatsi kuko ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Muganga urimo kwita ku murwayi ukuze ufite ibibazo by'ingingo, arimo kumwitaho umurwayi yicaye ku ntebe yarambuye amaboko imbere ye ayahinnyemo gake, afunze ibipfunsi yashyizemo imbaraga, undi arimo arakoresha igitambaro cy'umuhondo.

Umuganga ufasha abantu kugorora ingingo, arimo arafasha umurwayi w'umukecuru ukuze. Umukecuru afite agasatsi gake ku mutwe kabaye imvi n'amaherena y'umweru, umuganga yambaye impuzankano ifite ibara rya move, afite imisatsi myinshi ndetse afite uruhu rwera.

Umukecuru usheshe akanguhe, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo gufashwa n'umuganga ushinzwe gukoresha imyitozo ngororamubiri abakuze, arambuye amaboko, arimo aramufasha kuyarambura, arambura neza ukuboko kugira ngo imitsi ye irusheho kurambuka, barabikora barebana mu maso, bose bishimye.

Umuganga ari kumwe n'umukecuru ashinzwe kwitaho barimo guseka amuri inyuma amufashe mu gatuza, umurwayi na we afashe amaboko y'umuganga bombi barimo kwisekera banezerewe.

Umusaza n'umukecuru bafitanye ubwuzu bwinshi barimo guhoberana, begekeranyijeho imisaya umukecuru arimo araseka cyane n'umusaza arishimye aranezerewe, bambaye imyenda y'imikara, umukecuru yambaye igitambaro mu mutwe ry'ibara rya oranje, umusaza afite imvi mu bwanwa no ku mutwe.

Umukecuru ushaje imisatsi ye yose yabaye imvi. Ari kumwe n'umukobwa we ndetse n'umwuzukuru, barimo kwisekera, bari ku meza barimo gufata indyo yuzuye iherekejwe n'icyo kunywa kugira ngo bitabasha kubaniga.

Ushinzwe kwita ku barwayi cyane cyane bakuze, arimo gupima umusaza ukuze, amupimisha icyumvirizo afite mu matwi, akandi gapande kako akagakoza mu gatuza k'umusaza kugira ngo yumve imihumekere y'umurwayi, bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo barusheho kwirinda covide cumi n'icyenda.

Umusaza n'umukecuru bashaje bari kumeza barimo barafata indyo yuzuye yiganjemo imboga n'imbuto bafite n'ikirahure cy'amazi yo kunywa barimo barafata amafunguro yabo baganira umusaza afite imvi nyinshi mumutwe n'uruhara ndetse n'ubwanwa bwabaye imvi umukecuru nawe imisatsi ye yose yabaye umweru bari kumeza barimo gufata amafunguro yabo bishimye

Mu muririma w'amasaka ameze neza, abahinzi bahagazemo bishimye. buri wese azamuye ukuboko afashe igihingwa ndetse bafata ifoto y'urwibutso. Harimo abagore benshi n'abagabo batatu bose banezere umusaruro bazabona muri uyu murimo.

Umuganga ushinzwe kwita ku bantu bakuze arimo gufata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso umukecuru ukuze, yambaye ikanzu nini idoze mu gitenge, umuganga na we yambaye agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya Kovidi cumi n'icyenda n'impuzankano y'abaganga.

Abakecuru babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, barahagaze, barambuye amaboko yabo, kumwe kw'iburyo kurambuye imbere, ukundi kw'ibumuso kurambuye inyuma, barimo baraseka, barabikora bishimye kuko bazi akamaro k'imyitozo ngororamubiri ku mubiri wabo ko cyane cyane mu gihe cy'izabukuru ari ingirakamaro.

Wicaye mu byatsi arimo kuboha igitebo akoresheje amababi y'ibyatsi byumye, impande ye hari abantu bicaye ku ntebe, buri wese afite umwana mutoya ndetse harimo umugabo mukuru w'umuzungu, ukikiye akana k'akirabura.

Mu ntebe yo mu ruganiriro hicayemo umukecuru ukuze, ukikijwe n'abana be ndetse n'abuzukuru, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma kugira ngo bose babashe kwegerana, babashe kuza kugaragara muri iyi foto y'urwibutso irimo gufatwa.

Ikirango cy'ikigo cyitwa "Healthy People Rwanda". Kiri mu mabara y'ubururu n'inyuguti z'umweru zanditse H isimbura "Health", ibiganza bibiri bifatanye bivuga "people", na R ivuga "Rwanda."

igi inama giteraniyemo abantu benshi cyane bicaye bose batuje buri wese ku ntebe ye ndetse bakurikiranye umutuzo ibyo barimo kwigishwa imbere ni icyumba gikinze neza gifite amabara arimo umutuku na orange ndetse abantu bitabiriye aya mahugurwa bambaye neza cyane baba abagabo cyangwa abagore

Abana b'abakobwa b'abangavu bicaye mu cyumba cy'inama, ni benshi kandi bambaye impuzankano y'imyeru, uretse abicaye ku meza y'imbere bambaye iy'umukara, imipira y'umukara yanditseho amagambo y'umutuku n'abandi babiri batambaye impuzankano nk'iyo abandi bambaye, bicaye bitonze bateze amatwi kandi bishimiye ibiganiro barimo guhabwa.

Abagabo babiri umwe aricaye, undi amuhagaze inyuma begeranye cyane, bambaye imyenda y'umukara y'amakositimu, ndetse nta n'akandi kabara kavanzemo, umwe yitwa Keni Romesi undi yitwa Raban Romensi.

Udupimo tune, dufatirwamo amaraso yo gupima icyorezo cy'ubushira bw'inkende. Twose turagaragaza ko nta na kamwe gafite amaraso yanduye. Ibipimo byose bafashe basanze abo bari babifashe ari bazima. Ni icyorezo cyari kimaze iminsi kibasiye aka Karere ka Afurika.

Umugore nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ariwe Jeannette Kagame arimo kuvuga imbwirwaruhame ku munsi wahariwe kurwanya indwara zibasira ubuzima bwo mu mutwe, arimo arashishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko ariho ubuzima bw'imitekerereze bushingiye.

Umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe kurwanya uburwayi bwa diyabete, umuntu uyirwaye ahagaze iruhande rw'inyubako ya Convention Center agaragaza ibimenyetso bya diyabete birimo nko gutumba amaguru.

Umugore urimo gufata urukingo rwa Covid-19, arimo araterwa urushinge n'umuganga. Bose bambaye udupfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya Covid-19 ndetse arimo ararufata, inyuma ye hahagaze undi mugabo nawe uririndiriye kobaza kumutera uru rukingo.

Umukecuru ushaje cyane amaze kubagwa ijisho bamushyiho igipfuko kuko iyo umuntu amaze gusaza akenshi amaso ye asigara ahumye cyangwa se areba ibarorirori bigasaba ko abaganga ba abanza kuyabaga noneho bagatuma ijisho rye rishobora kureba nkuko ryarebaga mbere.

Umuntu wagize ibibazo by'ubuzima urimo gukorerwa ubutabazi bw'ibanze bamuryamishije ku gatanda kabugenewe bateruriraho umuntu abaganga bafite imiti yihutirwa yo kumutabara kugira ngo babashe kubona uko bamugeza ku ivuriro.

Inyuguti zanditse amabara y'umukara zibanzirizwa n'utuzeru hejuru, tugaragaza ikigo GLOBAL FUND, kirimo kwerekana uburyo cyakoranye umubano n'ibindi bigo bishinzwe kurwanya SIDA, igituntu na malariya mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere.

Kwa muganga kirimo amamashini menshi, abaganga bifashisha mu kwita ku barwayi. Harimo n'intebe abarwayi bicaraho ziriho imisego, bashobora kurambura zikamera nk'uburiri, igihe cyose barimo kumwitaho baba bamusuzuma cyangwa se barimo no kumuvura.

Abaganga bicaye muri sare bakoreramo, bapima ibizamini by'abarwayi batanze kugira ngo babashe kumenya indwara barwaye, bose bambaye impuzankano ariyo mataburiya y'imyeru, ndetse n'ibyo kwambara byabo byo hasi, bose bisa amabara y'umukara, harimo abahungu n'abakobwa.

Gikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Giteretsemo ibyuma byinshi biterurwa mu rwego rwo kugira ngo imitsi y'agatuza ndetse n'imikaya yako, umugongo n'amaboko bibashe gukura ndetse bikomere mu rwego rwo kugira ngo umuntu abeho afite imikaya ikomeye.

Mu cyumba abaganga babagiramo, harimo abaganga batanu ndetse n'igitanda abarwayi baba baryamyeho igihe barimo kubabaga, hari n'amamashini atandukanye bifasha ndetse n'amatara ari hejuru afasha abaganga kumurika umurwayi barimo kubaga.

Umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga akikijwe n'abaganga batatu bose bambaye udupfuka mu mutwe n'udupfuka amazuru, barimo kumubaga ku gice cye cyo hejuru ahagana ku mutwe, barimo kwifashisha ibikoresho bitandukanye n'amamashini atandukanye abafasha gutunganya gikorwa neza, umurwayi n'abaganga bose bambaye imyenda y'ubururu.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cya rwerere, zikikijwe n'ubusitani bw'indabo nziza zifite amabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'amapasparuum n'ibiti birebire kandi bakoresha amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba bayafatira hejuru y'amabati yabo.

Inyubako ndende y'ibitaro, y'igorofa igeretse inshuro enye. Ifite parikingi nini irimo imodoka nyinshi zibanzemo iz'abarwayi n'abarwaza ndetse n'abaganga bakorera muri ibyo bitaro, harimo n'iz'imbangukiragutabara zitwara abarwayi. Hari umugabo umwe urimo kwita ku modoka ye.

Mu ruganda abakozi barimo gukora, bapfundikira amacupa ndetse bayohereza mu kindi cyiciro gikurikiyeho, bambaye impuzankano zo mu ruganda z'amataburiya y'imyeru ariho ikirangantego ndetse n'udupfuka mu mutwe ndetse n'udupfukamunwa.

Mu cyumba kwa muganga babagiramo hateguyemo ibitanda bibiri bishashe neza biryamaho abarwayi barimo kubaga. Bishasheho amashuka y'umweru n'andi y'ubururu harimo amatara manini amanitse hejuru muri prafo afasha abaganga kubona neza aho barimo kubaga abamurikira urumuri rwinshi.

Umubyeyi ukikiye agahinja ke kavutse vuba cyane karimo kurira barimo kugafata ibizamini kugira ngo barebe ko nta burwayi kavukanye, umuganga yambaye agapfukamunwa n'akandi kamupfuka mu mutwe n'amadarubindi y'amaso ndetse n'itaburiya y'umweru, umubyeyi nawe yicaye ku gitanda agakikiye imisatsi ye irasutse arakishimiye cyane.

Umurwayi uri mu bitaro aryamye neza yoroshe serumu iri hejuru ye, iramucometse mu kuboko kugira ngo imugaburire umuti. Umurwaza we ahagaze iruhande rwe, arimo arazigura inzitiramubu kugira ngo aze kuyikikiza ku gitanda cye imibu itaza kumuruma.

Umwana w'umukobwa w'umwangavu urwaye aryamishijwe ku gatanda kariho n'umusego, umuganga arimo aramwitaho amufata amaraso mu mutsi, undi mugabo nawe amuhagaze iruhande arimo kumwihanganisha kugira ngo babone uko bamuvura neza.

Igice cyo hejuru cy'inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge. Ni ibitaro byiza cyane bifite isakaro ryiza rifite ibara ry'umweru, imbere yaryo hari ubusitani bwiza bw'indabo z'ibara ry'icyatsi. Ni indabo nziza kandi nyinshi zishinzwe gutanga umwuka mwiza wo guhumeka abagana ibi bitaro.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo amamashini atandukanye akoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo akoreshwa nk'amatapi yo kwirukankaho umuntu akirukanka ahagaze hamwe ariko ameze nk'uwirukanka hanze, ni amamashini meza afasha umuntu nta hantu yigeze ajya.

Ikigo cyubuzima cya RBC gishinzwe gutanga no guhererekanya amaraso ku bantu bayakeneye, ni inyubako nziza igezweho, imbere yayo muri parikingi harimo imodoka ebyiri z'imbangukiragutabara z'umweru n'indi modoka imwe y'umukara yijimye.

Abantu benshi bitabiriye kujya kwivuza ndetse n'abandi barimo kujya ku kazi, ku ivuriro ryubatse iruhande rw'umuhanda abantu banyuraho, ni inzu nshyashya ndetse n'inyubako eshatu z'amagorofa ziri ku rwego rugezweho.

Ku marembo y'ibitaro bya Rwamagana, hari abantu makumyabiri na batatu, harimo abagabo cumi na babiri n'abagore cumi n'umwe, bavangavanzemo abirabura n'abazungu. Bose bambaye amakarita y'akazi mu gatuza kabo, barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Ubusitani bwiza burimo ibyatsi bigufi byo mu busitani ndetse n'indabo ndende n'ibiti birebire by'inganzamarumbu. Hari imodoka ziparitse iruhande rwayo muri parking y'imodoka yabugenewe, ndetse n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikikije ubwo busitani.

Umugabo ufite ubumuga bw'ingingo, yicaye mu kagare kagenewe abantu bafite ubumuga bw'amaguru, batabasha kwigenza, umwana w'umuhungu arimo aragasunika, amufasha kugenda, yambaye imyenda y'umukara n'agashati k'umweru imbere, bageze ku ivuriro aho barindiriwe n'umuntu wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara.

Mu cyumba bacururizamo amadarubindi y'amaso, atenze ari menshi cyane hejuru kamwe kamwe ukwako, kuko ibirahure byabo byangirika ubusa, bigomba kwitabwaho kugira ngo bitaza gukomwa n'akantu ako ariko kose bigatuma bimeneka.

Inyubako nziza nshyashya, yubatse mu mabuye akomeye. Imbere yayo hari amagambo yanditseho ngo i na ra na se na a na da, hasi handitsemo ngo Africa, iyo nyubako imbere yayo ifite ubusitani bwiza cyane burimo n'amatara, bubasha guha umwuka mwiza abagana iyo nyubako.

Usanga aho umuganga asuzumira umurwayi, agatanda gashashe neza ho igitambaro cy'umweru, ako gatanda kari hagati y'amamashini atandukanye, abaganga bifashisha mu kumenya uburwayi umuntu yaba arwaye cyane cyane mu nda.

Inzu icuruza imiti y'abantu itandukanye yitwa farumasi irimo imiti itandukanye y'abantu ifunze makarito atandukanye kuva hasi kugeza hejuru, itenze mu makarito, mu macupa ndetse igiye iri ku ruhande bitewe n'ubwoko bwayo.

Umuganga yambaye impuzankano y'abaganga, yiyicariye ku gatebe mu cyumba asuzumiramo abarwayi, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'impeta y'isezerano, yambaye umupira imbere y'itaburiya w'amaboko magufi ndetse ufite ibara ry'umuhondo, hashashe agatanda keza umurwayi aryamaho ndetse n'aho bakarabira intoki igihe amaze kumusuzuma.

Umuganga wita ku barwayi bageze mu zabukuru arimo arita ku barwayi babiri b'abadamu bakuze, umwe ni umukecuru, undi ni umugore ugifite imbaraga, arimo arabapima ibipimo by'umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga aho bitiraho abarwayi bavurwa babamo, harimo ibitanda binine bishashe ariko bidafite umuntu, hagati y'igitanda n'ikindi harimo ibitambaro by'amarido bikingireza umurwayi bimutandukanya n'uw'undi.

Mu nzira igana kwa muganga harimo imihanda ibiri unyura haruguru y'inyubako z'ivuriro n'unyura ahagana hepfo hahita hinjira mu nyubako, hari abantu barenga hirya kuri iyo nzira inyura haruguru y'inyubako ariko hari n'abandi barimo kwinjira mu marembo y'inyubako banyuze hafi y'umuryango.

Ku busitani bwiza bwa pasiparume buri imbere mu gipangu, harimo ibikinisho by'abana byo mu bwoko bw'ibyicungo, bifite udutebe tune, bishobora kwakira abana bane. Ni ibyuma birebire biriho utwo dutebe abana bicaraho bagasunikana bakumva umunyenga, biri mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Inyubako z'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi. Ni inzu nziza igezweho, yubatse mu buryo bw'igorofa, igeretseho rimwe. Hari abantu bazindutse bitabiriye kujyayo kugira ngo, bajye gufata ubuvuzi bw'ibanze, butangirwa muri icyo kigo nderabuzima.

Abaganga batatu b'abakobwa bahagaze, bambaye impuzankano y'abaganga b'ababyaza ifite amabara y'ubururu. Bambaye udutambaro mu mutwe tubapfuka imisatsi, kugira ngo itabasha guteza umwanda, mu gihe barimo gukora igikorwa cy'ubuganga.

Kwa muganga mu cyumba bavuriramo abarwayi bacumbikiwe, harimo ibitanda bitanu bishashe neza amashuka y'umweru n'ubururu, nta murwayi urimo, umurwaza cyangwa umuganga, naza kuboneka umurwayi ushobora kuvurirwamo baraza kumwitaho kuko icyumba kiriteguye gisa neza.

Inyubako z'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, hari umuhanda munini ugana muri ibyo bitaro, ndetse bifite inyubako zubakishije amatafari ahiye, hari ubusitani bukikije icyapa kiriho imikorere, ndetse n'ubwishingizi bwemewe muri ibyo bitaro.

Mu cyumba by'ibitaro byo kwa muganga, agatanda gashasheho ishuka y'umweru, iruhande hari ibyuma bitandukanye, ndetse hari agatebe umuganga yicaraho, akurikirana kuri Mudasobwa ibijyanye n'ubuzima bw'umurwayi iyo arimo kumusuzuma, harimo amamashini menshi yifashishwa n'umuganga igihe arimo kuvura umurwayi.

Imashini nini cyane yo kwa muganga, yifashishwa mu gupima indwara, ni nini ifite amabara y'umweru n'ubururu bwijimye, umuganga arimo arerekana ibice byayo bitandukanye anabisobanura.

Inyubako z'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ni inyubako nziza igezweho yo mu rwego rw'amagorofa, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo n'ibiti bishobora gutanga umwuka mwiza ku bagana ibitaro, hari abaganga babiri bahagaze mu marembo y'ibitaro.

Inzu icururizwamo imiti yivura indwara z'abantu yitwa ''PROGRESS PHARMACY'' irakinguye imiryango yayo barimo gucuruza ndetse hari n'imodoka iparitse imbere yabo ije kugura imiti yo kunywa.

abantu benshi bazindutse batonze umurongo abagabo n'abagore barimo kugenda umwe umwe babakira ku meza yicayeho abantu babiri barimo gufasha mu kwakira aba bantu bakabandika babanjirije ufite ubumuga uri mu kagare kugira ngo abashe kubanza yitahire hakiri kare

Ku kigo nderabuzima cya Shagasha, hicaye ku ibaraza ryacyo abantu bane. Ni abantu bakuru babiri n'abana babiri, bazanye kugira ngo bitabweho n'abaganga ku bw'indwara bakeka kuba barwaye, babafate ibizami, babavure babahe imiti, babashe gukira. Ni nzu ikomeye yubakishijwe amatafari ahiye, amabati ashakajeho ni ubururu ndetse isize amarangi y'umuhondo.

Inzu ebyiri zegeranye z'ivuriro hagati yazo harimo ikigega kinini gifite ibara ry'ubururu , umuntu azibona anyujeje amaso muri agiriyajee n'iyindi nzu iri iburyo bwayo hari ubusitani bwiza buri hagati y'aya mazu bufitemo uturarabo tw'umuhndo.

Icyumba cy'ibitaro byo kwa muganga kirimo ibitanda bitatu bitandukanye ndetse buri cyose kigiye gifite amarido afunga, kugirango ngo atandukanye umurwayi umwe n'undi mu gihe arimo kwitabwaho n'abaganga cyangwa se mu gihe yaba aryamye asinziriye.

Aho abarwayi barwarira bacumbikiwe, harimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru, hejuru hariho inzitiramibu zifasha abarwayi kutaribwa n'imibu, hari abaganga babiri bahagazemo biteguye kwakira abarwayi bari buze kurwarira muri iki cyumba.

Icyumba cyo kwa muganga giteguyemo igitanda gishasheho ishuka y'ubururu n'umusego w'umweru. Ku bikuta harimo ibishushanyo bitandukanye ndetse harimo n'ama ekara ya televiziyo agera muri abiri, hasi hari akandi gatebe k'umuganga ashobora kwicaraho arimo gusuzuma umurwayi uryamye kuri ka gatanda.

Ku marembo y'ibitaro bya Kabgayi, hari umuhanda munini w'ubitaka winjira mu bitaro, impande y'amazu manini yubakishije amatafari ahiye, hari abantu bakeya bari mu bitaro, harimo urimo kwinjiramo agana mu ivuriro.

Mu cyumba bapimiramo indwara laboratwari hateguyemo intebe ebyiri zo gukoresha muri icyo cyumba ndetse n'icyuma cyabugenewe cyitwa mikorosikope bakoresha mu gupima ibizami, baba bafasha abarwayi kugira ngo basobanukirwe neza indwara umurwayi afite, noneho babone uko bamuha imiti ikwiranye nayo.

Icyumba cyo kwa muganga babagiramo abarwayi. Harimo agatanda gashasheho ishuka y'icyatsi kibisi kijimye, ndetse n'ibitara binini bicometse muri purafo, bimurikira abaganga igihe barimo kubaga umurwayi uryamye kuri kagatanda. Harimo n'indi mashini abaganga bifashisha ifite ibara ry'umweru, barimo kubaga umurwayi.

Kwa muganga ku gice cyagenewe ababyeyi n'impinja cyitwa materiniti, ni inzu nshyashya ifite amabara y'umweru, ndetse amabati ashakaje amabati y'ibara ry'ubururu, harasa neza kuko ahantu bakirira ababyeyi n'impinja zikivuka haba hakeneye isuku idasanzwe, hanze hari imirasire y'izuba ishobora gukoreshwa igihe amashanyarazi yabu.

Mu cyumba abaganga babagiramo kwa muganga, harimo imashini nyinshi zitandukanye bifashisha muri icyo gikorwa ndetse n'agatanda k'umurwayi, ntago gashashe, nta murwayi n'umwe bari bagakoreraho, nibajya kugakoreraho barahita begeranya ibikoresho kugira ngo babashe kwita ku murwayi.

Kwa muganga aho bapimira ababyeyi batwite, harimo agatanda umubyeyi aryamamo, ndetse n'imashini yitwa ekogarafi ishobora kureba mu nda h'umubyeyi bakamenya imiterere cyangwa ikibazo cy'uburwayi umwana yaba afite cyangwa se n'igitsina cye, ifasha no kureba mu nda y'umubyeyi niba harimo ikindi kibazo cy'uburwayi.

Ibitaro by'amaso. Ni inzu nziza igezweho ndetse ifite amapave ashashe hanze yayo, aho umuntu ashobora kunyura atambuka yinjira muri iyo nzu, ni ku marembo afite imiryango ibiri, hariho igitambaro gisobanura uburwayi bw'amaso umuntu ashobora kuza kuhivuriza.

Inzu nshyashya y'igorofa igeretse rimwe, iri ahantu heza hejuru y'umusozi, ifite parikingi y'amapave iparitse imodoka imwe, ifite ibara ry'umutuku ryijimye ndetse iruhande rw'iyo modoka hari ubusitani butoya bw'amapasiparumu burimo ibendera riranga igihugu cy'u Rwanda.

Kwa muganga mu cyumba abarwayi barwariramo bacumbikiwe. Harimo ibitanda bibiri bishashe neza ,gusa nta murwayi ubiriho cyangwa umurwaza ndetse n'umuganga, mu cyumba nta muntu urimo kuko barindiriye kuza kwakira abarwayi baba barwariyemo.

Inyubako nziza cyane nshyashya y'ibitaro, ni igorofa rigeretse inshuro ebyiri, rifite amarangi meza y'umweru, ay'ubururu n'andi ajya kuba umuhondo, ni nziza rifite ubusitani bwiza imbere yayo, ndetse na parikingi nzizi ipavomye.

Icyumba cyo kwa muganga cyakira abarwayi bavurwa abarimo kuko barembye, gishashe neza amashuka y'umweru kiriho inzitiramibu ibabuza kuribwa n'imibu ya nijoro ndetse n'iyo kumanywa, gishashe neza barindiriye ko hari umurwayi ushobora kuboneka akaza akakiryamaho ariko byose nta murwayi bifite.

Icyumba kinini cyakirirwamo abarwayi b'indembe cyane, gifite amabara y'umweru n'amabara y'icyatsi byanditseho ayo magambo avuga ko icyo cyumba ari icyakira indembe. Irange risizemo n'umweruru n'amatara yaho aramurika cyane, nta wundi muntu urimo yewe n'udutebe twakira abazamo nta muntu wicayeho.

Gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro imufashe yitwa kora n'agasenge gatoya k'umweru, arambuye ukuguru kumwe inyuma ahinnye ukundi imbere, azamuye amaboko ye yombi ndetse n'imitsi y'ijosi yayirambuye neza arambura umugongo neza n'agatuza.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri kuri tapi ye iwe mu rugo, yambaye ikabutura ngufi y'umukara n'isengeri y'umukara, arambuye ukuguru kumwe ukundi kurahinnye arimo ararambarara imitsi y'amatako. Ikirenge kimwe gishinze n'ivi ryacyo ku itapi ikindi kirenge gihinnye kirambuye neza ku itapi imbere.

Abaganga batandukanye baretse imirimo yabo, baza guhurira hamwe kugira ngo babanze gufata amasomo, arimo gutangirwa ku buryo bw'iyakure, bamenyeshwa neza ingamba bagomba gukurikiza n'ubwirinzi mu bijyanye n'umurimo bakora .Bose bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda covid cumi n'icyenda badupfuka mu mutwe.

Abagabo bane bari mu muhanda wa kaburimbo mu ikorosi rinini, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yabugenewe, inkweto, amakabutura n'imipira ifite amaboko maremare, ifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri neza.

Kubera imyitozo ngororamubiri, arahagaze yambaye isengeri ry'ikigina, amaboko ye arayasobekeranyije kumwe kurambuye mo gahoro ukundi guhinnye burundu, gufashe mugenzi wako kugukurura kugira ngo arambure mu bitugu n'ahagana inyuma mu mugongo.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, afite ikintu cy'igisanduku cy'umukara giteretse imbere ye, arimo kugenda ashyiraho ukuguru kumwe, akarambura ukw'inyuma, agahina uko ashyizeho, akongera agashyiraho ukundi, akarambura ukw'inyuma, agahina uko ashyizeho, yambaye imyenda y'imikara ndetse n'inkweto z'imikara zagenewe gukoresha imyitozo ngororamubiri.

Ikirahuri cyiza gisukuye giteretse ku meza, hari ukuboko gufite ikanete nziza isukuye irimo kuvamo amazi y'urubogobogo, ayo mazi riyasuka muri cya kirahure giteretse, ni amazi yo kunywa y'amara inyota.

bafite ubumuga gafite amabara abiri iry'umukara n'iry'umutuku wijimye, nta muntu uriho gatunganije neza hari aho gushyira amaguru, aho kwicara ndetse n'aho kwegama n'aho ucunga umurwayi afatisha amaboko, gafite amapine ane.

Umurwayi urimo gufashwa n'umuganga wita ku bantu bafite ibibazo by'ingingo, arimo kuzamura ukuboko kwe aterura icyuma kiremereye ukundi akurambuye, arazamura akongera akamanura umuganga amufasha uburyo abigenzamo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ku bw'ikibazo afite k'ingingo.

Umugabo ufite mu maboko ye umupira bifashisha mu gukina imikino y'amaboko, wanditseho nimero enye, nawe we ubwe yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'akenda ko hasi gahinguka gafite ibara ry'umukara.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri arambuye ukuguru kumwe ukundi araguhinnye agufatishije ukuboko, arambuye n'ukuboko, arambuye agatuza agorora umugongo kugira ngo imitsi ye ibashe kurambuka agire ubuzima bwiza.

Umugabo arimo gukora imyitozo ngororamubiri, afite igitambaro kimuhanagura ibyuya mu ijosi ndetse yambaye agapira k'umukara, arimo aranywa amazi kugira ngo yiyongerere imbaraga z'umubiri, kuko yatakaje imbaraga nyinshi igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Igikapu kigezweho gipakira ibintu, ku buryo bwiza, ikintu cyose kiri mu mwanya wacyo ndetse nta kintu na kimwe gishobora kwangiza ikindi, kirafunguye kugira ngo tubone neza uburyo ibintu bigenda, buri cyose mu mwanya wacyo, nta na kimwe gishobora kubangamira ikindi.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahari imashini ipima umubiri wose w'umurwayi, imashini nini ni umweru ifite ibara ry'umweru, icometseho agatanda umurwayi arwara aryamaho kugira ngo bamucomeke muri ya mashini ubundi barebabe ikibazo yaba afite mu mu we wose, hari n'ububiko burimo ibikoresho bitandukanye bifashisha.

Zitandukanye zigirira akamaro umubiri w'umuntu, harimo inanasi, amaronji, indimu, amatunda na pome, ndetse n'imineke. Harimo n'ibinini ndetse n'imidari yo guhabwa abantu babaye indashyikirwa, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi watwaye umwana we mutoya kwa muganga, muganga arimo aramupima afata ikintu akamurika mu mutwe we, ari umubyeyi n'umuganga bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo barusheho kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Umugabo urimomo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isaha ku kuboko, yambaye ikabutura ngufi yijimye n'inkweto ze nziza zabugenewe gukoresha imyitozo ngororamubiri, ahinnye ukuguru kumwe n'ukuboko, arambuye ukuguru kumwe n'ukundi kuboko abirambura neza imitsi n'amagufwa ye kugira ngo bibashe kumera neza.

Agatanda ko kwa muganga basuzumiraho umurwayi, hariho n'agatebe k'umuganga aba yicayeho arimo gusuzuma umurwayi akaryamyeho agaramye ndetse akabona uko yitegereza ibice by'umurwayi ashaka gusuzuma, harimo n'imashini nyinshi muri icyo cyumba zifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icyumvirizo abaganga bifashisha bambara mu ijosi kigafata mu matwi y'umuganga, akandi kantu ko hepfo kagakanda mu gatuza cyangwa umugongo w'umurwayi kugira ngo bapime ibijyanye n'ubuhumekero bumve ko umurwayi yaba afite zimwe mu ndwara z'ubuhumekero. Gafite ibara ry'ubururu.

Amahugurwa y'abaganga, umuganga urimo kubahugura ari imbere, abandi barindwi baricaye bakomeje kumutega amatwi banakurikira, aho arimo kubahugura akoresheje amashusho arimo kugenda abereka imwe ku yindi na bo bandika.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arunamye ahagaritse ibirenge bye ashinje udutsinsino, afatishije amaboko ye yombi mu mavi, yubitse umutwe, ku buryo umugongo we uba urambuye neza, amaguru arambuye neza ndetse n'agatuza.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri, ni umukobwa n'umuhungu buri wese afite icupa rye ry'amazi yo kunywa, bambaye udukabutura tugufi ndetse n'amasengeri, umukobwa yambaye isengeri y'ubururu umuhungu yambaye isengeri yijimye y'umukara.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri gafite ibara rya move na ekuteri mu matwi. Arimo aranywa amazi, kuko yari ananiwe cyane agira ngo amugirire akamaro, yiyongerere amazi mu mubiri.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'imikara, yicaye ahinnye amaguru ayasobekeranyije, ukuboko kumwe gufashe hasi ukundi yakuramburanye n'ijosi bigana kuri kwakundi gufashe hasi, imbere ye hari icupa ry'amazi meza yo kunywa igihe aribuze kuba ayakeneye.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gatakapi ke hasi, gafite ibara ry'ubururu, arimo ararambura umugongo n'igice cye cy'amaguru, amaboko ayafatishije mu birenge ndetse arimo no gukandamo arambura umugongo cyane.

Umwana muto w'umukobwa bajyanye kwa muganga kumuvuza indwara zo mu muhogo. Umuganga arimo aramumurukisha agakoresho ko kwa muganga kareba mu muhogo kugira ngo amenye uburwayi afitemo. Abamujyanye na bo bahagaze iruhande rwabo barindiriye kumva icyo muganga ababwira.

Inyubako y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal, hari abafundi barimo kuyisana bafite uruhu rwera, umwe ahagaze ku rwego arimo arahereza uri hejuru ibikoresho by'ubwubatsi n'abari hasi barimo gufasha uri ku rwego bamuhereza.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri afite imisatsi myinshi cyane, yambaye ipantaro imufashe n'agapira k'amaboko magufi k'agasengeri hejuru, arimo ararambura umugongo n'ukuguru ukundi yaguhinnye kugira ngo na ko aze kukugeraho akurambure, amaze guhina ukundi, ikiganza kiri mu mugongo.

Imbuto zitandukanye ziribwa zigirira umubiri wacu akamaro, zirimo pome n'ama oranje, amazi yo kunywa meza asukuye, icyuma cyo guterura umuntu akora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imetero ishinzwe gupima ubunini bwo ku nda kugira ngo umuntu abone santimetero z'inda ye.

Ni agatanda kifashishwa mu butabazi bw'ibanze gafite imikandara y'imituku itatu bafunga bagira ngo bahambire umurwayi uriho abashe kugenda neza atanyeganyega igihe baba bamuteruye bamuvana cyangwa bamujyana ahantu bagiye kumukorera ubutabazi.

Umugabo urimo kugororwa ingingo, ku rwego rw'ubuvuzi abikorewe n'umuganga w'inzobere wabigize umwuga, arimo aramuramburira amaguru, akongera akayahina, agaramye ku gitanda, undi nawe ahagaze iruhande kuko azi ibijyanye n'imitsi na n'amagufwa, agira ngo amuramburire amaguru neza yo kuzagira ubumuga ku bw'uburwayi bwatangiye kuyototera.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, igice cye cyo hasi ku maguru cyagizeho ikibazo cy'imvune arimo arakandeshaho amaboko ye yombi, afatishije ibiganza mu ivi akanda cyane kuko ubona ko harimo uburibwe, yambaye isaha y'umukara ku kuboko.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arambuye amaboko, ashyize amavi hasi, ameze nk'upfukamye, yambaye imyenda y'imikara yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, imisatsi ye irafunze afite ubwanwa burebure, arimo ararambura umugongo akoresheje kurambura amaboko hasi ku itapi, arimo gukoreraho imyitozo ngororamubiri.

Igikapu gipakiye ibintu byuzuye, gifite iba ry'umutuku, gifunguye uruhande rumwe rutwereka uburyo gitenzemo ibintu neza kandi ikintu cyose kiri mu mwanya wacyo, harimo imakasi zifashishwa mu butabazi, utwo guhanaguza mu matwi ndetse harimo ibipimo bipima umuriro ndetse n'ibisingo by'impapuro zifashishwa mu gupfuka ibisebe.

Abaganga benshi barimo gukurikirana inama ku buryo bw'iyakure, bamwe bicaye iruhande rw'ameza ariho za mudasobwa zabo, abandi babahagaze inyuma, bakurikirana bitonze kugira ngo bumve ibijyanye n'amabwiriza yo kwirinda kovidi cumi n'icyenda.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, umupira w'umukara n'ikabutura y'umukara n'inkweto zabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, arimo gukanda ivi cyane, irindi aripfukamishije hasi, ubona ko arimo kubabara afite uburibwe mu gice cye cy'ivi.

Urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yabugenewe y'umukara n'inkweto zabugenewe, arambuye ukuguru kumwe ahinnye ukundi, arimo kurambura imitsi y'umugongo ndetse n'iy'amatako ijosi yarihagaritse, yambaye mu matwi utwuma turimo kumufasha kumva umuziki.

Umugabo ufite ikibazo, yagize impanuka aryamishijwe hasi arambuye neza amaguru kugira ngo babone ko bamukora ubutabazi bw'ibanze mbere yo kumugeza kwa muganga, barimo kumwegeranya amaguru ye bayahuza kugira ngo bamugezeyo atagize ikindi kibazo.

Umugore n'umugabo bateranye imigongo, baregamiranye, umwe yegamye ku wundi, bose bafite amacupa y'amazi meza barimo kunywa bararamye, bayagotomera vuba vuba nk'abatanguranwa, bafite inyota kandi ano amazi arabagirira akamaro cyane kuko amazi ni ingenzi ku mubiri w'umuntu.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, harimo ibinini n'imiti ya pomade, harimo imiti ifunze mu macupa ndetse n'ibizingo bya bande zo kwifashisha mu guhambira ku wagize imvune, harimo n'indi miti ihambiriye mu mashashi ndetse na ga zo kwambara mu ntoki, kugira ngo amaraso cyangwa undi mwanda utivanga n'aho umuntu yagize ikibazo.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri itandukanye, harimo amashinimi atandukanye yifashishwa mu kurambura imitsi n'ingingo z'umuntu wifuza gukorera imyitozo ngororamubiri ku buryo bugezweho. Harimo imashini ushobora kumera nk'uwirukanka kandi utirukanka ari bwi urimo kwirukanwa kuri yo, ukamera nk'uwirukanka hanze ndetse umubiri wawe ukarambuka ku buryo bukwiriye.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yabugenewe, yicaye ahinnye amaguru ayafatishije amaboko ye, arambuye agatuza neza ndetse n'umugongo n'ibikanu bye birambuye neza kugira ngo imitsi yabyo, imikaya n'amagufwa bibashe kurambuka.

Umuganga wita ku burwayi bw'ubugororangingo arimo arafasha umurwayi ufite ibibazo by'ingingo z'amaguru, amugoroza imashini yabugenewe igorora ukuguru kugeza mu ivi, uturutse ku birenge kugira ngo amagufwa yabo n'imitsi bibashe kongera gukora neza.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo gukina, bambaye impuzankano y'abakinnyi, yewe harimo n'urimo gufata amafoto, umwe muri bo yagize impanuka arimo arakurikiranwa n'abashinzwe ubutabazi ku bakinnyi bari mu mupira, bafite umuti barimo gukoresha barimo umukobwa umwe n'umugabo umwe barimo kumwitaho cyane.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'imikara yagenewe gukorana imyitozo ngororamubiri n'inkweto z'umukara, arimo kurambura ukuguru kumwe ukundi aguhinnye guteretse ku gikarito cyabugenewe, amaboko yararambuye yunamyeho gato, imitsi ye yo ku maguru yareze byerekana ko arimo kurambuka neza.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri ayirangije, aryamye ku gatanda, barimo baramugorora imitsi cyane cyane iy'amaguru, baramugorora bakoresheje intoki ndetse arambuye ukuguru neza, bahera ku kuguru ko hasi bazamura bagana haruguru.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi izirikiye inyuma. Yambaye ekuteri mu matwi arimo aragenda yumva umuziki, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, amaze kunanirwa yegura icupa rye ririmo amazi yo kunywa, ayashyira ku munwa, arayagotomera.

Icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri sigisi pake gifasha abantu mu kurambura imitsi yabo ndetse no gukomeza imikaya yabo, kigura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi ijana na makumyabiri kandi ni ingirakamaro cyane ku mubiri w'umuntu.

Babiri umwe arimo gukora imyitozo ngororamubiri undi ni umutoza we arimo kumufasha, urimo gukora imyitozo ngororamubiri apfukamishije ukuguru kumwe ukundi aguhinnye imbere ye, ateruye ibyuma bibiri biremereye mu maboko ye, areze agatuza kugira ngo abashe gukuza imikaya ye y'agatuza, iy'amaboko n'iy'umugongo.

Ibiganza biteruye uruvange rw'imbuto zitandukanye. Harimo borokoli, harimo pome, harimo puwavuro y'umuhondo, avoka isatuye, n'inyanya ndetse n'ibinyamisogwe. Hari inkweto ziri iruhande ndetse n'amacupa atandukanye na tapi byifashishwa mu gukora siporo. Bivugwa ko imboga n'imbuto iyo bihujwe na siporo bitanga ubuzima bwiza.

Ufite ibibazo by'ingingo, arimo gufashwa n'umuganga wabugenewe kumugendesha mu kagare k'abafite ubumuga, batabasha kugenda neza kugira ngo babashe kumenyereza kugenda amaguru yabo bagendera mu kagare, nibamara gukomera bazabashe kugenda bemye. Umuganga arimo aramufashiriza mu cyumba barimo ,kirimo n'imashini ifasha abantu kubona umwuka wo guhumeka.

Umugabo wari urimo gukora imyitozo ngororamubiri, afashe icupa rye rifite ibara ry'ubururu, arimo kunywa amazi kuko icyapa cyari kimwishe mu gihe yatakazaga amazi menshi arimo gukora imyitozo ngororamubiri, azamuye ukuboko gufashe icupa, yarishyize ku munwa, arimo kunywa.

Insimburangingo y'ukuguru ku bantu bafite ubumuga bw'amaguru baba baragize ibibazo byo gucika amaguru. Kugera mu mavi ndetse gufite n'ikirenge. Guhambiriye neza kugira ngo nibagucomeka aho ukuguru kwacikiye, umuntu abashe kugenda neza nk'ufite ukuguru kwe k'umwimerere.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye kora y'umukara n'agasengeri kagufi gafata mu mugongo no ku mabere k'ibara ryijimye ndetse n'umutuku, afite imisatsi isutse, arimo ararambura umugongo afatishije amaboko hasi ndetse n'amavi kugeza ku birenge.

Isanduku irimo ibikoresho bitandukanye by'ubutabazi bw'ibanze, harimo amavuta yo kwisiga gikotoro, harimo ibipfuko, harimo amavuta ya pomade yo kwifashisha ku kibazo cy'imitsi, harimo ibidonge by'ibipfuko umuntu yakwifashisha yakomeretse, harimo amasizo ndetse irafunguye kuko bifuza kuyifunga byose bamaze kubishyiramo neza kugira ngo babikoreshe.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye arambura amaguru n'umugongo, arimo arafata amaboko ye akayakoza ku birenge kugira ngo arambure umugongo we ndetse n'imitsi y'amaguru irambuke neza abashe kubaho atekanye.

Umukobwa wicaye ku itapi yabugenewe kugira ngo akore imyitozo ngororamubiri, yicaye ahinnye amaguru, arambuye agatuza n'umugongo, amanitse amaboko. Iruhande rwe hari icupa ririmo amazi meza yo kunywa igihe ari bwumve akeneye kunywa amazi ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu guterura kugira ngo akomeze kurambura ingingo ze.

Ikarito ifite amabara y'umweru n'umutuku yanditseho amagambo mu mabara y'umukara ndetse n'andi mu mabara y'umutuku, irimo umuti witwa Erythrocin, ni umuti mwiza ku burwayi bw'abana, uvura cyane ndetse ugahashya indwara zibasira abana.

Umuganga ushinzwe ibijyanye n'imiti, ari mu cyumba kibikwamo imiti. Arimo arayashyira ku murongo bitewe n'ubwoko bwayo, afata amacupa akayashyira mu bikarito byayo byabugenewe kugira ngo abikike neza kandi azabashe kugera ku barwayi abagirire akamaro.

Igiti cy'umwimerere cyitwa umuravumba, giteye mu murima urimo ibindi byatsi ariko cyo ni cyo kiganjemo, kimaze kugera hejuru ku buryo gishobora gusarurwa amababi yacyo, agakoreshwa mu buvuzi butandukanye, cyane cyane ubw'indwara zo mu muhogo n'iz'ubuhumekero muri rusange.

Amababi atoshye y'icyatsi kibisi y'igiti cyitwa umuravumba, ni igiti cyiza gifasha abantu mu kwivura indwara zitandukanye kandi ni umwimerere, iyo ugikoresheje uba wizeye ko kivura kuko kivura indwara nyinshi cyane, cyane cyane izifata mu buhumekero.

Igitunguru cy'umutuku cyeze neza gisatuyemo kabiri kiri iruhande rw'ibisate bibiri by'indimu nayo yeze neza isatuye biteretse iruhande rw'icupa ryiza ririmo amavuta yo guteka akoze mu bimera by'umwimerere ripfundikiye neza.

Amacupa abiri afunze neza, arimo amavuta akoze mu gikakarubamba cy'umwimerere. Afunze neza rimwe rifite imifuniko isa na shokora, irindi rifite imifuniko ya orange. Ateretse iruhande rw'ibisate by'urubuto rusatuyemo kabiri.

Mu mbuga nini y'ubusitani burimo ibyatsi bigufi, birandaranda, birimo uturabyo twiza twa oranje, uturabyo tw'umweru ndetse n'utw'umuhondo, bifite amababi y'icyatsi kibisi, byameze hejuru y'ibindi byatsi biteye nk'indabo n'ubundi biri muri ubwo busitani.

Utujerekani dutatu dufunze neza twose turimo amasabune akorwa na Forever mu cyatsi cy'igikakarubamba cy'umwimerere, kamwe ni umweru umufuniko ni ubururu, akandi ni umweru wijimye umufuniko ni oranje, akandi ni numuhondo umufuniko ni shokora.

Amakarito atatu afunze neza mu mabara atandukanye, afunzemo inyongeramirire zikungahaye cyane mu myunyu ngugu ikomoka mu mbuto zo mu mashyamba, z'umwimerere, z'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu.

Umutobe w'imbuto ufunze mu dukarito dutandukanye ndetse hari n'imbuto impande yazo ziteretse zikiri nzima, ziratoshye zimeze neza ni inanasi imwe nziza ndende ndetse n'imineke ibiri ihiye neza, ifite ibara ry'umuhondo.

Amavaze arindwi, akoze mu ibumba ndetse n'andi akoze muri purastike ku ibara ry'umweru, atewemo indabo zitandukanye, zimwe z'umuhondo, izindi ziriho utubuto n'uturabyo tw'umutuku n'izindi zitarabya, indabyo ziguma ari icyatsi, zifashishwa mu gutanga imiti itandukanye ndetse no gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ubuki bukorwa n'ikigo Forever, buboneka babukuye mu nzuki z'umwimerere, ni bwiza cyane bufasha umubiri w'umuntu kugira imbaraga, imyunyungugu, ndetse n'isukari y'umwimerere iva mu buki bw'inzuki, ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu ndetse bufasha abavuzi ba gakondo kuvura indwara nyinshi babuvanze n'ibyatsi by'umwimerere.

Agacupa gafite ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi. Handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi, kabamo amavuta agenewe kwisiga mu ntoki, meza akoze mu gikakarubamba afasha uruhu rw'intoki guhora rworoshye, rubobereye rumeze neza.

Ubu aho bahinga inanasi. Harimo amamashini ahinga ndetse n'abantu baje mu rugendo shuri baje kureba imikorere y'ubwo buhinzi kugira nabo babyigane bazabikore mu mishinga yabo itandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi.

Imiti yo mu bwoko bw'ibinini igeze muri irindwi. Ifunze neza mu bifuniko biyifunga, mo imbere haba harimo udufu. Irambitse ku kibabi cy'umuravumba, umuravumba ukaba igiti cy'umwimerere kivura indwara zitandukanye, ariko ntabwo gitunganyijwe mu ruganda bari bakigica ku giti cyacyo.

Igiti cyiza cyera uturabyo twera cyane, gifite utubabi dutoya tw'icyatsi kibisi, kirahagaze cyemye, kiri kumwe n'utundi twatsi twinshi, duciye bugufi ugereranyije na two. Biri mu murima uhinzemo ibyo byatsi by'umwimerere gusa.

Ururabo rwiza rurandaranda ku butaka, rwarabije indabyo z'iroza zifite mo imbere akabara k'umuhondo. Rufite amabara meza y'icyatsi, ndetse runifashishwa mu gutanga imiti itandukanye, ivura indwara z'abantu. Rugira n'akamaro kanini mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, abantu baba bakeneye buri munsi.

Ibikombe bibiri byifashishwa mu kunywa icyayi biteretse ku meza bimo icyayi. Kirimo ibibabi by'ibiti by'umwimerere, bituma icyayi kiryoha kandi bikaba umuti w'indwara zitandukanye. Iruhande rwawo hari ibibabi by'umuti witwa umuravumba nawo uvura indwara zitandukanye.

Ibiganza bifashe agasekuru n'agahini kako, birimo birasekura amababi y'icyatsi. Iruhande hari utundi dukoresho dutandukanye dukoze mu ibumba, tugiye duteretsemo imizi y'ibiti ndetse n'utundi tubuto dutandukanye, byose biteretse ku musambi uboshye mu byatsi, byose yiteguye kuza kubisekuza ka gasekuru afite.

Amacupa menshi ateretse ku meza, arunze hamwe ari menshi rwose. Harimo amagufi n'amaremare, yose afunzemo imiti ikoze mu bimera by'umwimerere, kugira ngo byifashishwe mu kurwanya indwara zitandukanye zibasira abantu.

Indabo ziteye mu busitani buteye mu mavaze meza akoze mu ibumba, ateretse ku twuma kugira ngo ayo mavaze adaterekwa hasi, hamezemo indabo nziza z'ibara ry'icyatsi ndetse n'izindi zifite amashami arandaranda.

Amafoto menshi agaragaza indabo z'ubwoko butandukanye, harimo uturabo twiza cyane twarabije umuhondo, izarabije umutuku, izarabije iroze, izarabije umweru, izarabije amabara menshi atandukanye, zose zikusanyiriza hamwe inkunga yo kuduha nk'abantu umwuka mwiza wo guhumeka n'ubwiza bwazo bukatunezeza.

Amacupa menshi atandukanye arimo ibinyobwa, agiye buri yose riteretse mu gitereko cyaryo ndetse rinapfundikiye neza, amenshi apfundikije imifuniko ifite ibara ry'icyatsi, andi apfundikije imifuniko ifite ibara ry'umutuku.

Agacupa gacuritse k'umweru, ni twinshi tugera muri dutandatu, turimo amavuta agenewe kwisiga mu biganza akorwa n'ikigo cyitwa Forever, kiyakora mu byatsi by'umwimerere by'igikakarubamba.

Hatandukanye zera ku biti bitandukanye by'ibimera by'umwimerere bimera mu busitani bwatewe n'abantu kugira ngo bazabikureho umwuka mwiza uturuka mu bimera ndetse n'imiti itandukanye ishobora kuva muri izo ndabo no mu bibabi no mu mizi y'izo mbuto.

Ibiganza bibiri by'umuntu birambitse ku isekuru, yakusanyirijemo imiti itandukanye, agiye gusekuriramo yo mu buryo bw'umwimerere. Ni ibibabi by'inturusu, utundi duti tw'amashami tuvunaguye, ndetse n'indi mizi agiye kuvangavanga akuremo umuti uvura indwara zitandukanye.

Ishyamba ririmo amabuye manini n'amashami y'ibiti, ibiti birimo ni inzitane biragondamye ndetse bifite amashami atoshye, bigaragaza ko ubutaka bwo muri iri shyamba bubereye ibimera birimo cyane.

Ibiganza by'umuntu urimo gusekura, arimo gusekura imiti itandukanye akoresheje agasekuru n'agahini kako bikoze mu ibumba. Impande ze hari indi miti myinshi ari busekure akajya ayisekura ayifungira mu mashashi kugira ngo igire ubuziranenge.